Akazu kari mu ibara ry'umutuku kifashishwa n'umuntu ucuruza amayinite, hakaba hariho ibirango bya sosiyete ya Eyateli, hakaba hari umuntu uhagaze imbere yako n'undi wicayemo imbere wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi cyangwa serivisi yo gutanga, kubikura cyangwa kohereza amafaranga, iriho yo mu ibara ry'umuhondo, akaba yanditseho emutiyeni mobayilo mani, eyateli mani, vodo foni, tigo kashi.

Inyubako izwi mukazu k'abajenti icurizwamo amayinite igatangirwamo n'izindi serivisi ikaba iri mu ibara ry'umutuku, hakaba hariho ibirango n'amagambo yo mu ibara ry'umweru, handitseho kanda akanyenyeri magana atanu urwego utangire.

Umudamu ufite ibicuruzwa mu ntoki ahagaze aho abicururiza yambaye imyenda yo mu bwoko bw'ibubu, iri mabara y'umweru umutuku na shokola, ndetse ku maboko irajya gusa ubururu akaba afite imisatsi isutse.

Abagabo batatu bicaye inyuma yabo hari icyapa kiriho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda n'ikirango, hakaba handitsweho repubulika y'u Rwanda Akarere ka Nyagatare, kwizihiza umunsi mukuru w'amakoperative mu Karere ka Nyagatare.

Umugore uri gusobanura wambaye imyenda y'umutuku irimo utubara tw'umweru, ukikijwe n'abandi bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'imipira y'icyatsi kibisi, bigaragara nkaho bari bari mu imurikagurishwa ry'ibicuruzwa runaka.

Abantu benshi bateraniye hamwe harimo batatu bahagaze n'abandi bicaye ku ruziga bari kuganira, bicaye munsi y'ibiti bitoshye ahantu hari ibyatsi byiza, umwe ufite igipapuro mu ntoki, undi usa nk'aho hari ibyo ari guhereza mugenzi we.

Abantu bambaye imyenda iranga akazi bakora, ingofero z'umweru n'amatayoja yo mu ibara ry'umweru naga, bariho barapakira ibicuruzwa mu makarito yabugenewe, ariho ibirango ry'ibara ry'umweru mu ibara.

Ishusho igaragaza abadamu, bari mu buhinzi bw'inanasi zitarizera, bari kuzikorera, bamba udupfukamunwa, hari utezemo agatambaro, hari insina ziri inyuma yabo.

Abadamu bane bari kwerekeza ku nyubako ifite urugi rw'ibara ry'umweru. Uw'imbere wambaye akagofero k'umweru n'ikaburiya iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ijipo y'umukara. Inyuma ye hari abandi batatu bamukuriki.

Icyapa cy'ubucuruzi cyanditsweho Skol, kigaragaza ahantu hacuruzwa ibyo kunywa bisembuye, ibara ry'umuhondo mu magambo y'inyuguti nkuru y'umutuku.

Inyubako icururizwamo ibintu bitandukanye, harimo ibyo kurya ndetse n'ibyifashishwa mu isuku mu buzima bwa buri munsi, harimo amagi, buleba, harimo ibishyimbo biri mu mifuka ndetse n'ibindi biri mu ma etajeri, harimo nk'amavuta yo kwisiga n'ayo guteka.

Igikoresho gikoreshwa mu gikoni, mu guteka cyangwa se kwarura ibintu bitandukanye, kizwi ku izina ry'irushi itoboye ukunda gukoreshwa cyane cyane mu gihe bari kwarura ibintu babikura amavuta menshi cyangwa mu mazi cyane cyane nk'amafiriti.

Abantu bari mu rusengero bamwe bicaye abandi bahagaze, babiri bahagaze umwe yambaye akagofero gatukura ndetse n'igishura cy'umweru, undi mu ikanzu yera iri kumwemwe n'igishura cy'icyatsi, akaba afite akapa kanditseho, gerayo amahoro.

Abaririmbyi bahagaze imbere ku rubyiniriro, cyangwa aho bariririmbira, bambaye imyenda y'umweru n'umukara, harimo abagabo n'abagore, hari umwe bahagaze imbere usa nk'aho ubayoboye wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu.

Inyubako nziza izwi ku izina ry'urusengero, aho irimo intebe abakirisitu bicaramo, ikaba ifite n'igisenge kiza gikozwe mu biti, ni ngari irisanzuye ifite n'amadirishya.

Abagabo batatu bagaragara nk'aho ari abihayimana bahagararanye. Harimo umwe w'umuzungu, ndetse n'abandi babiri b'abirabura baripande ye, bambaye imyambaro yo mu ibara ryera.

Icyumba cya hoteri kirimo uburiri bushasheho amashuka y'umweru, imisego, harimo inzitiramibu ariko itamanuye, imeza iteretseho agacupa k'amazi na terefone.

Igitanda cya hoteri kiriho inzitiramibu, ariko izinze itamanuye, ishashe neza n'amashuka ari mu ibara ry'umweru, n'uturongo tw'umukara, hari umusego.

Abantu baje mu isoko mu bucuruzi butandukanye harimo umudamu wikoreye akabase karimo ibicuruzwa ufite ibindi mu ntoki, wambaye ijipo ya oranje ku mupira w'umweru.

Uruhurirane rw'abantu benshi bahuriye hamwe, bari mu bucuruzi. Hari imodoka ziri gupakurura ibicuruzwa ziriho abagabo bari kubafasha kubishyira ahabugenewe. Abandi barimo baragenda banyuranaranamo, hasi aho hari abafite ibinyabiziga by'inyamitende bizwi ku izina ry'amagare.

Umugore wikoreye ibicuruzwa wambaye imyenda irimo amabara atandukanye, impande ye hari imodoka ziri mu ibara ry'umutuku n'indi yanditsweho tagisi iri mu ibara ry'umweru, bigaragara nkaho ari gucururiza ku muhanda.

Ishusho igaragaza inzu z'ubucuruzi ziri ku muhanda haparitse abamotari ndetse n'abanyamagare, abanyonzi hari abantu bari mu muhanda babiri, hari uwambaye agashati k'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Inyubako izwi ku izina rya resitora mu mvugo z'amahanga cyangwa se ururiro, aho harimo intebe n'ameza yicarwaho n'abakiriya mu gihe bategereje cyangwa se bari gufata ibyo baguze.

Inzu igaragaza uburiro resitora ifite ibara ry'umukara mo imbere harimo intebe z'umweru zigiye zisetinze mu buryo butandukanye ku matabule ariho utu napukini tw'umweru.

Ishusho y'umugabo uri mu modoka wambaye umupira, ishati y'ubururu ufashe kuri vora y'imodoka isa umweru wambaye umukandara uri impanuka.

Umumotari uri mumuhanda wa kaburimbo wambaye kasike itukura kuri moto utwaye ipantaro y'umukara n'ikote ry'umweru.

Ishusho igaragaza ahantu abamotari baparitse, umumotari wicaye kuri moto wambaye kasike y'umutuku, inzu ifite amabara y'umukara n'umweru na pinki, ku gahanda k'umukara hari n'indobo na kandagira ukarabe.

Umuhanda nyabagendwa urimo ikinyabiziga cy'ikinyamitende ibiri kizwi ku izina rya moto, kicayeho abantu babiri, ugitwaye umuyobozi wacyo ndetse n'uwo atwaye bambaye kasike zibafasha kubarinda.